Uru ni urutonde rw'ibihugu n'amafaranga yabyo, hanyuma uru rutonde rurerekana agaciro k'ifaranga ry'igihugu runaka, uko avunjwa mu madolari.

Mobayiro mani ni sisiteme y'ikigo k'itumanaho emutiyene akaba ari sisiteme yo kwakira no kohereza amafaranga hakoreshejwe telefone ngendanwa.

Araesiesibi mu magambo arambuye ruhuza rwanda sosho, sekuriti, bodi, mu Kinyarwanda bikaba bivuze ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda. Iki kigo kikaba giherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza niho iki kigo gifite ikicaro.